Hari ibishushanyo by'amasaha agiye atandukanye bisa nk'aho ari ibyagenewe kwigisha abana b'incuke kugira ngo batangire kumenya uburyo isaha zikoramo.

Igishushanyo kirimo ibara ry'inka bisa nk'aho ari icyo abana biga mu mashuri y'inshuke bifashisha iyo barimo barigishwa ibintu bigiye bitandukanye.

Igishushanyo kiri kugaragara kikaba ari icy'ifi bisa nk'aho ari icyo baba bashushanyije kugira ngo bikigishirizeho abana bari kwiga mu mashuri y'incuke.

Haragaragara ikaramu y'igiti ndetse n'ibikoreri byinshi biri ahantu hamwe ku murongo, bisa nkaho' byifashishwa n'abarimu mu gihe bari gushushanyiriza cyangwa se kwigisha abanyeshuri babo.

Ibishushanyo bigaragara birimo umugore wicaye mu kagare ndetse n'undi uhagaze asa nkaho hari ibyo ari kumuha, iruhande rwe hari uwundi mwana usa nkaho aribyo ari kwereka mwarimu.

Abantu b'abagabo bahagaze ahantu hamwe ku murongo bisa nk'aho hari gahunda baba barimo zabateza imbere ndetse n'abandi muri rusange.

Abana bicaye mwishuri, bisa nkaho ari mu mashuri yisumbuye, bose barasa nk'aho bafite uwo bakurikiye bishoboka ko ari mwarimu uri imbere ari kubigisha.

Abanyeshuri batandukanye bicaye bose bateze amatwi ndetse n'amaso, imbere yabo hari umwarimu usa nkaho afite ijambo ari kubagezaho cyangwa se impanuro runaka.

Abanyeshuri batandukanye bari mu ishuri, biragaragara ko ari mu mashuri ryisumbuye ndetse bambaye n'impuzankano zigiye zitandukanye hari abambaye iziganjemo umuhondo ndetse abandi bambaye iziganjemo umweru.

Hagaragara abantu batatu, babiri bambaye imipira y'umukara babasore ndetsetse n'undi mukobwa wicaye imbere, ariko hakurya yabo hari abandi bantu harimo umwe wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abandi.

Turabona abanyeshuri bo muri kaminuza yigisha ibintu bijyanye n'imyuga, ni benshi rwose bishoboka bicaye kudutebe, barasa nkaho bakurikiranye umwarimu uri kubigisha.

Abakobwa benshi bari mu rungano rwose ubona ko bishimiye serivisi barimo, imbere ya buri mukobwa hagiye hatutse uducupa tw'amazi yo mu bwoko bw'Inyange, barasa naho ari amahugurwa barimo.